Iduka ricuruza ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, harimo imiti iterwa ibihingwa bitandukanye iyo mu macupa ndetse n'iyo mu masashi, harimo imirama, harimo iya karoti, iy'amashu ndetse n'iyi imyi n'iy'ibindi bihingwa bitandukanye.

Ni ibirayi bisutse hasi kandi ni bitoya n'ibiringaniye ku buryo bishobora kuba ari imbuto zo kuzatera bikazavamo ibindi birayi. Ibi birayi rero birambitse ku kintu gisa n'umukara.

Umurima w'ibitoki bitewe hakurikije intera ndende ntago byegeranye cyane kandi ibitoki hafi ya byose byazanye imyanana ku ruhande, ibi bitoki birimo gushyirwaho ifumbire ndetse hacukuwe n'imyobo yo kugira ngo haterwe ibindi bitoki bishya.

Ni imifuka ine itandukanye igaragaza ifumbire, izi fumbire harimo eshatu zisa za NPK, zitandukanira ku ngano ya nitorojeni fosiforasi na carisiyumu, ingano yabyo iratandukanye, iyi mifuka yose iteretse ku makaro.

Abantu bane bari guhinga ahantu hakorewe ifumbire, ifumbire yarakozwe noneho bari kuyihinga kugira ngo no hejuru habore neza. Bose bafite amasuka ni yo barimo gukoresha bari kuyibirindura iyo hasi bayishyira hejuru n'iyo hejuru bayishyira hasi.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye bijyanye n'ubuhinzi, harimo umurama wa karoti, harimo umurama w'ibindi bintu bitandukanye, harimo ibikoresho bakoresha babungabunga ubuhinzi nk'ibyuma ndetse n'ibindi byo gutera no gucucira.

Umuntu ari gukoza intoki mu ifumbire, irimo n'iminyorogotwe igaragara, akoresheje intoki atikingiye, ndetse iyo minyorogotwe biragaragara ko ari myinshi cyane. Ishobora kumurya ikamutera ikibazo ikamwangiza.

Abantu benshi cyane abagore abagabo ndetse n'abagore bahetse abana bari mu murima w'ibigori, bamwe bafite indobo bari kugenda bayishyiraho ifumbire abandi bari kureba uko bikorwa harimo abambaye ingofero bo kubigisha.

Inzu icururizwamo ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, harimo utuntu inkoko zinywesha amazi dusa n'umweru ndetse n'umutuku, harimo ibyuma byo guteza umuti, harimo imiti itandukanye yo gutera imyaka ndetse n'ingemwe.

Ni igishushanyo kigaragaza ubworozi bw'inkoko uko bigenda, amagi zitera harimo asa n'umweru ndetse n'asa n'umuhondo, hari ibivuga ku nkoko amagambo menshi, iki gishushanyo kiri mu ibara ry'umweru, umuntu aragifashe arimo kucyerekana.

Hari akabati mu iduka ricuruza ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, aka kabati karimo imirama y'ingemwe zitandukanye harimo imirama ya karoti ndetse n'imirama y'amashu.

Ni urupapuro runini cyane rukomeye rwashyizwe hagati y'imbaho ndetse no mu kirahuri ariyo cadre, rugaragaza uburyo inkoko zororwa, uko zitabwaho, n'uko zikura, ndetse n'amagi zitera. Zitera amagi asa n'umweru ndetse n'ay'ikijuju.

Abantu bari guca ibyatsi biri mu gishanga abandi bari kureba uko biri gukorwa. inyuma yabo hari itente risa n'umweru, inyuma gato yabo hari ibiti bitari birebire cyane bifite amabara asa n'ayibumbira hamwe, aba abantu bose bambaye ingofero.

Ni ifumbire y'imborera irimo gukorwa. Hari ibirundo byinshi by'iyo fumbire y'imborera yatangiye gukorwa. Ntabwo yari yabirindurwa kuko hejuru harunzeho ibyatsi byumye biyitwikira. Iri mu cyanya kinini kigari kandi iruhande rwaho hari ishyamba.

Inzuzi z'ibihaza zarameze, zirakura, ziraranda mbese zuzura umurima wose ku buryo ntushobora kumenya aho iki igihaza gitereye ngo ni hehe, bagitereye mu karima kari inyuma y'igipangu kandi bashingiriramo n'ibiti.

Ni icyapa giteye ku ruhande rw'umuhanda mu twatsi, cyanditse mu mabara y'umuhondo, umweru, icyatsi ndetse n'umukara. Mu nyuguti nkuru harimo i, t, j ndetse n'ikimenyetso kigaragaza gukomeza.

Ni agakarito gafite ibara ry'igitaka gateretse ku mufuka w'umweru. Aka gakarito karerekana ibiri muri ko mwo imbere. Kanditseho tirisidizi, byerekana ubwoko bw'imbuto zirimo imbere. Aka gakarito rero si ko konyine kuko hari indi mifuka myinshi cyane isa n'umweru yanyandikishijeho icyatsi.

Ni akabati kabikwamo ibitandukanye bikoreshwa mu buhinzi n'ubworozi. Harimo imiti y'amazi icuruzwa mu macupa, hari imiti y'amafu icuruzwa mu masashe ndetse harimo n'imyunyu y'inka ndetse hari n'ibindi bintu biri mu bikarito, byose biri mu kabati.

Abantu barimo gukora ifumbire y'imborera iva mu byatsi bisanzwe, bamwe bari guhinga bakoresheje amasuka yabo, abandi bari gusuka, umwe arasuka ibiva mu mufuka bimeze nk'ivu, undi arasuka ibiva mu kidomoro.

Imiti itandukanye igaragaza uburyo ishobora guterwa ibihingwa kugira ngo yice udukoko dushobora gufata ibyo bihingwa tukayangiriza, hari iyo mu macupa, hari n'iyo mu masashi, yose iterwa bitandukanye hakurikijwe amabwiriza yanditsweho.

Hari ibyapa bigaragaza ahantu henshi hatandukanye ariko hegeranye habera ubucuruzi. Hamwe bacuruza ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, ahandi haba aba ajenti bakora mu ibijyanye n'amafaranga, ahandi bahanywera inzoga.

Umusaruro w'inyanya. Inyanya zarahinzwe none zatangiye kwera. Izeze zirasa n'umutuku, izitarera neza zirasa n'umuhondo, izitarera na gake zirasa n'icyatsi. Umuhinzi arimo arazireba ngo arebe izo yasarura.

Ubuhinzi bw'umuceri uhinzwe mu gishanga. Umuceri wenda kwera, kubera ko warayanze, watangiye no kwikora, ariko ntiwari wuma ku buryo wasarurwa. Uyu muceri uratohagiye cyane kandi ni muremure bihagije.

Umusaruro w'ibiti bya avoka. Ibiti bya avoka byarahinze birasarurwa, izi navoka zimaze igihe gitoya zisaruwe, zarakuze cyane zireze kandi uko bigaragara, zifite ubuheri. Bivuze ko iki giti cyari cya buhiri.

Igihingwa cy'ibirayi, ibirayi byareze none barimo kubikura, ibirayi byahinzwe bisa n'umweru, ikirayi cyareze cyane ku buryo cyavuyeho ibirayi binini cyane ndetse n'udutoya, iki kirayi gihinzwe mu itaka ry'umukara.

Ni umurima w'urutoki uteyemo ibindi bihingwa bikiri bitoya bitarakura, uru rutoki rutewe hashyizwemo intera hagati igaragara kandi ngari cyane ku buryo nta mahamyi bishobora guteza ibihingwa bindi.

Umurima uhinzemo ibigori ndetse n'ibishyimbo, ibigori biracyari bitoya ntabwo byari byatangira guterera ngo bizane uruyange, nta n'ubwo byari byatangira guheka, ibishyimbo nabyo ni bigufiya ntago byabangamira ibi bigori bibifataho.

Ubuhinzi bw'imyumbati buhinzwe mu buryo bwa kijyambere, imyumbati bayihinze ku murongo kandi bayihinga mu miringoti, iyi myumbati irashishe cyane bigaragara ko ifite n'isombe iryoshye, hagati hanyuramo imyanya yo gucucira.

Ubuhinzi bw'intoryi. Intoryi barazihinze zirakura, zigeze mu gihe zenda kuzana uruyange. Izi ntoryi bigaragara ko zihinze mu butaka busa n'umukara kandi zikikijwe n'ishyamba. Izi ntoryi rero zenda kwera.

Ikawa yeze n'itarera, ikawa yeze iba yarahinduye ibara yaravuye mu kuba icyatsi igahinduka umutuku naho ikawa itare ibisa n'icyatsi kandi ikawa iyo ijya kwera iza ku mashami yose y'ikawa.

Amasashi y'umukara arimo itaka ndetse n'ingemwe z'ibiti bitoya, aya masashi ararambitse ndetse nta n'ikintu kiyafungiye hejuru ngo aticwa n'izuba, izi ngemwe zashyizwe ahaha rero ziteguye kuba zaterwa.

Ni igiti kiriho ibipapayi bya kizungu. Ibipapayi bireze ku buryo bishobora no gusarurwa. Ikigaragaza ko byeze ni uko ibara ry'icyatsi riri kugenda rishiraho, ahubwo rigahinduka umuhondo. Ibipapa byinshi binini cyane biteye amabengeza.

Ni umurima wo mu gishanga barawuhinze ariko harimo amatike makeya, iruhande rwawo harimo akagezi kanyura hagati y'imiringoti yo mu gishanga, aka kagenda karimo amazi mabi cyane ndetse hirya yaho hari ibigori byeze bitarasarurwa.

Turimo gusarura ibigori umuntu arimo arabica kimwe yagishyize mu mufuka ikindi arikugitonora agikuraho amababi. Ibigori bireze cyane kandi ni binini uko bigaragara. Umuntu ubirimo rero yambaye umupira w'ingofero w'imbeho. Yambaye bote n'ipantara.

Urutoki, umurima w'urutoki uba ugizwe n'ibitoki byinshi bitandukanye, ibitoki bimwe biba byeze ibindi biteze kuko ntibyerera igihe kimwe, ibitoki bigira amababi manini akaba yitwa amakoma.

Ubuhinzi bw'ibitunguru binini cyane. Ibitunguru bifite amababi akoze nk'imiheha. Biragaragara ko byeze kuko amababi yabyo yatangiye guhinduka umuhondo ava mu kuba icyatsi. Umuntu arimo kubireba abinyuramo hagati.

Ni umurima w'amashu, urimo amashu menshi cyane bigaragara ko uyu murima ari muremure, aya mashu yarakuze cyane agejeje n'igihe cyo gusarurwa. Aya mashu yafumbijwe ifumbire y'imborera buri shu bararyuhira.

Ni inanasi zihinze ziteye ku murongo bigaragara neza cyane. Hari imirongo iriho inanasi nkeya n'indi iriho inanasi zicucitse, izo nanasi zirabyibushye cyane kandi zifite ibara ryijimye bigaragara ko zifite ifumbire ihagije.

Ni umurima urimo uruvangitirane rw'ibihingwa, harimo ibigori byeze cyane wagira ngo byarasaruwe, harimo ibihaza ndetse harimo n'inyanya.

Ishyamba rinini ariko uruhande rumwe ibiti barabitemye barabimara, nta biti bigihari kuko hasigaye ibyatsi n'ibiti bigufi gusa. Ibiti barabitemye birebire barabimara ndetse hari na hamwe hagaragarako hatigeze haterwa ibiti.

Ni umurima w'urutoki ndetse n'amateke, uyu murima bawuteyemo intoki bakurikije intera buri mwobo w'igitoki ugiye urimo insina zirenze imwe ku ruhande hariho amateke atarakura akiri matoya.

Ni ibigori byiza cyane bigifite ibara ritoshye ry'icyatsi. Ibigori byenda kwera kubera ko bifite umuterero ndetse n'imiheko yazanye umusatsi. Ibi bigori ni byinshi cyane gusa biracucitse. Bishobora kuba bitazera neza kubera ubucucike bwabyo bifite bikeneye kugabanywa.

Umurima w'imyumbati ifite isombe. Hafi yabyo hari ibiti bitari birebire cyane ndetse hahinze n'ibigori ku ruhande. Ibigori bireze kandi byarumye bigomba gusarurwa. Inyuma gatoya hari ishyamba rirerire.

Uko igihingwa cy'ikawa kiba kimeze. Igihingwa cy'ikawa nyuma yuko bagiteye kigakura, iyo igihe cyo kwera cyegereje, kiratangira kikazana utubuto tw'amakawa, ikawa itangira isa n'icyatsi ikaza ku mashami yose uhereye hasi ukageza hejuru.

Ni umuti uhabwa inkoko kugira ngo amagi yiyongere, uyu muti uri mu gacupa, bivuze ko usukika, ufite igishishwa cy'inyuma cy'umuhondo, ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, n'umukara, hariho n'ibishushanyo by'amagi.

Ni umuti werekana ibiribwa bigomba guhabwa amatungo harimo inkoko, ihene ndetse n'inka. Uyu muti witwa Livokem, ni usukika, ufite miriritiro ijana. Ushyirwa mu byo kurya, inka, ihene cyangwa intama zikawurya n'inkoko zishobora kuwurya.

Ni umuti usukika uterwa ibirayi, uyu muti uri mu icupa ry'umweru kandi wanditseho amagambo mu ibara ry'umukara, witwa potato dexdrose agar, ufite umufuniko usa na orange.

Ni ibyatsi bivangavanze byasekuwe, ibi byatsi harimo ibikeye, ibijya gusa n'umuhondo, hari ibisa n'icyatsi cyane, umuntu arabifashe mu kiganza arimo kubyerekana, ibyatsi rero bisa n'ibirimo intungamubiri zitandukanye ku bintu bitandukanye.

Ubworozi bw'inkoko, horowe inkoko nyinshi kandi izi nkoko uko zibayeho bazizanira amazi mu kintu gisa n'umweru bakayatereka mu nzu yazo, zikazajya ziza zikayanywa ndetse bazizanira n'ibiryo bakazihera muri iyo nzu zibamo.

Umuti uterwa ibihingwa bitandukanye kugira ngo wice udukoko tuza kubyangiza. Uyu muti inyuma handitse mu mabara atandukanye hari icyatsi, hari umweru, hari umutuku ndetse n'umukara. Amagambo yose yanditse mu ibara ry'umukara.

Itungo ryitwa inka, riri mu murima aho riziritse, ariko rifite uruhu rutari ruzima, uruhu rwarwo rwajeho ibiheri binini cyane, byaraturumbutse, ku ijosi, ku maguru, ndetse no mu nda, no mu mugongo.

Ni inyuma y'icupa ry'umuti uterwa imyaka, iri cupa risa n'umweru rifite umufuniko w'icyatsi kandi umufuniko ufashe isashi kugira ngo ukomere, hariho amerekezo yerekana uko uyu muti ugomba gukoreshwa n'ingano ugomba guterwa.

Abagore ndetse n'abakobwa n'abana barimo gushyira itaka mu masashe, amasashe y'umukara. Iri taka bari gushyiramo naryo rirasa n'umukara, bigaragara ko ari itaka rivanze n'ifumbire, bari kuyora bakoresheje intoki zabo.

Ni abantu bari guhinga mu murima, uyu murima urimo imyumbati ifite amababi ari yo sombe, bose bari guhinga bakoresheje amasuka, umurima ni mugari kuko bakoze umurongo muremure harimo abana, ababyeyi ndetse n'abagabo.

Ku kigo k'ishuri kiri ahantu mu cyaro hari amaterasi y'indinganire, ikigo gifite ibigega bifata amazi ndetse hari abantu baje gutera ibiti, hari ushinzwe umutekano, umu daso, n'abandi bantu bambaye amajire.

Ni ubuhinzi bw'ibirayi ndetse n'imboga. Abantu barimo kubyuhira babirundaho itaka ndetse bakoresheje amasuka yabo. Ni abamama bose. Hari n'undi mukobwa yambaye ingofero y'umukara ahetse icyuma cy'umuti gisa n'umuhondo, arimo kubitera umuti.

Haciwe imyobo yo guteramo ibishyimbo, imiyobo yaciwe mu murima usanzwe uhinzwemo amateke ndetse n'ibitoki, uyu murima hirya yaho ukikijwe n'igishanga giteyemo umuceri, abamama babiri bari gushyiramo ibishyimbo ndetse bagahita batsiba.

Ni umurima mutoya wegeranye n'ingo zituyemo abantu, izi ngo zifite ibipangu byubakishije amatafari ahiye ibindi bipavomwe na sima, iyi mirima rero ishinzemo uduti tugufiya, dutoya kandi harimo umuntu arimo guhinga akoresheje isuka.

Ni umupapa mukuru yambaye inkweto zo muri palastike, yambaye ipantaro yayihinnye amaguru yambaye n'ikote y'ikokositimu yashaje, yikoreye ibyatsi by'ibigori ku mutwe ari kugenda mu kayira k'ibitaka, iruhande rwe hari ibiti.

Hari abantu bakurikiye umuntu umwe uhagaze imbere wagira ngo ari kubigisha, uwo muntu ahagaze mu byatsi bitwikiriye ifumbire y'imborera, ari kubereka ukuntu bigenda ndetse inyuma hari n'abandi bibereye mu byabo batari kumukurikira.

Mu murima w'urutoki harimo amateke matoya atarakura, harimo umuntu arimo guhinga kuko afite isuka nubwo ahagaze, yambaye umupira w'umutuku ndetse n'ikabutura isa n'ivu, ari kureba imbere.

Ni umusaruro w'ingano zimwe ziri mu mifuka izindi zanditse ku mahema. Hari abantu bari kuzisagarura baziyora bazishyira mu mifuka bazikura ku mahema. Zanitse imbere y'akazu gatoya.

Abahinzi banyuzamo bakarima n'umurima, hari abahinzi batandukanye, buri wese ari guhinga akoresheje isuka, hari umukobwa umwe uri guhinga ku ruhande yambaye igitenge ndetse n'umupira hejuru, akurikiwe n'umupapa uri guhinga yambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara, bose bahinnye.

Ni ibiribwa bitandukanye biri hano bimaze igihe kinini cyane. Hari igitoki cyashaje kuko cyenda kuba imineke, hari ibirayi ibinini ndetse n'ibitoya. Ibi byose birambitse hasi ku itaka, si byiza.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo ku buso bunini. Hari ubuso burebure bwahinzweho ibishyimbo, byarameze none bitangiye gukura. Hashize iminsi mike bivuye mu butaka kuko bifite amababi makeya. Ibi bishyimbo ni birebire.

Umusaruro wa voka ziteye nk'uducuma, izi voka zireze cyane kandi zirakuze niho zigisarurwa, biragaragara ko zigifite umwimerere w'ububisi, izi voka zabaye umukara kubera kwera cyane.

Avoka zirera burya zigasarurwa, hari umusaruro w'avoka ugaragara mu bitebo bitandatu, ni avoka zigaragara nkaho zikuze cyane kuko zarenze kuba icyatsi, ahubwo zitangira kuba umukara zose zasaruriwe mu bitebo by'icyatsi.

Ni imifuka myinshi bigaragara iteretse igerekeranyije kandi biragoye kumenya ikintu kiri muri iyo mifuka kuko ibintu biyanditseho ntibigaragara neza, hari n'abantu bane barahagaze begamiye ku gikuta kiri ku ruhande ruteganye n'iyo mifuka.

Imifuka irimo ibintu bitazwi irimo guterurwa iterekwa kandi igerekeranywa, abantu babiri bafatanyije guterura umufuka umwe ngo bawushyire hejuru y'iyabanje guterurwa, iyi mifuka ifite uturungo tw'umutuku ku ruhande.

Umuhinzi yerekana umusaruro w'igitoki cye yasaruye, ni ibitoki binini cyane mu kubisarura yaciriye hepfo ategereje igitoki aho gitangirira, ibi bitoki bifite amabere menshi ndetse ari kubireba yishimye ari guseka.

Ni umusaruro w'ibinyampeke bigiye bitandukanye. Harimo ibishyimbo, harimo soya, harimo ingano, harimo uburo. Mbese ni byinshi cyane byose biri mu dufuka dutoya bigiye bihinahinnye kugira ngo bigaragare neza.

Abahinzi barahinze barasarura none babijyanye mu isoko, aha ngaha haragaragara ibitoki birambitse hamwe, ibijumba birambitse hamwe, ndetse n'imifuka myinshi iteriretsemo ibirayi, bigaragara ko ibirayi byakuwe vuba bikaba biteretse mu mifuka ngo bigurishwe.

Ubuhinzi bw'ibigori. Ibigori birahingwa byakwera bigasarurwa ndetse bikanikwa. Aha ngaha byanditse ku mahema byarumye bategereje ngo byume neza kuko bari kugabanyaho amababi kugira ngo izuba rizabigereho byumuke neza. Abantu batandukanye abamama, abapapa bose bari kubireba hari n'urimo kubafotora.

Abantu ni benshi cyane barimo kureba umusaruro w'igitoki. Ibitoki byarasaruwe ku bwinshi birangije baraza babirambika hasi ku buryo abantu bari kubireba bakanabyifotorezaho, bakanandika ibyo bari kubona.

Umusaruro w'igitoki, nyuma yo kuwukora mu murima wacyo, urajyanwa ku isoko kandi ujyanwa ku isoko unyuze mu modoka kuko ni mwinshi cyane. Abantu barawupakira, bakabishyira mu modoka nini cyane, bakayipakira neza ngo biticana cyangwa biryamirane. Bigejejwe ku isoko.

Hari ibigori byanitse barabisaruye babizinganya amababi yabyo barangije babimanika ku biti, bimwe biratambitse ibindi birashinze, ibiti rero barabimanitse ubundi bashyira ibyo bigori kugira ngo byumve.

Ubucuruzi bw'ibirayi, ibirayi by'ubwoko butandukanye ndetse n'abacuruzi batandukanye birasutse ariko ntabwo bisukwa hasi, bisutswe ku dutanda twabyo kugira ngo bitaza kubora byoroshye, harimo umuntu urimo kubireba no kubicunga.

Ibigori bikiri bitoya bitarakura cyane bihinze ku buso bugari kandi mu gishanga, ni hasi cyane ariko biratohagiye bimeze neza. Biracucitse bikeneye kugabanywa. Hakurya yaho hari umusozi muremure.

Hari abantu babiri, bari mu murima usa naho ari mugari, ndetse hari n'imitwaro y'inkwi myinshi, hari iminini n'imitoya, abantu babiri umwe arunamye undi arahagaze, uwunamye ari gukora muri izo nkwi asa naho ari we uri kuzifunga, uhagaze we ntabwo isura ye igaragara.

Ni ishyamba rinini cyane kandi rigari, ritari inzitane cyane kuko rigizwe n'ibiti byinshi birebire, ariko bitanga akanya gashobora kunyuramo urumuri, harimo n'ibyatsi bikiri bigufiya ndetse n'ibirebire mo gakeya, ibi biti bifite amashami yahereye hejuru.

Ibisheke byasaruwe barangije barabyikora barabizana babyegeka hano ku mukingo, uyu mukingo uriho ibyatsi byinshi ndetse inyuma nyuma hari guhinguka amababi y'urutoke, ibi bisheke bireze cyane.

Ni ibyatsi bigufiya ariko bifite amababi magufi abyibushye. Ibi byatsi biteye mu murima urimo n'urutoki rurerure. Si ibyo byatsi byonyine kuko hari n'ibindi birebire mo gakeya.

Ni umurima uri inyuma y'inzu, uyu murima urimo urutoki, urimo intoryi, urimo n'ibiti ndetse n'ibipapayi. Intoryi zirimo zirashishe zimeze neza, harimo n'uduti twagira ngo ni ibisheke bikiri bitoya.

Ni umurima usanzwe ari uw'ibitoki, kandi ibi bitoki byararumbye kubera ko amababi yabyo yahindutse umuhondo, uyu muririma rero wahinzwemo n'ibishyimbo, ibishyimbo biracyari bigufiya ntibirakura neza, ubutaka buhinzwemo busa n'umutuku.

Ni umurima urimo imyembe, ibigori ndetse n'igitoki, ku ruhande nta kintu na kimwe kihateye harahingaguye ahubwo, ibigori nabyo bireze iyi myenda ntirakura hari hirya igiti kidasobanutse ngo ni icyiriki.

Ishyamba ry'inzitane ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye, harimo ibiti bifite amababi matoya, ibifite amababi maremare, ibifite amashami maremare, n'ibifite amashami magufi, gusa umuntu ntabwo yapfa kunyuramo biragoye kuko ni inzitane cyane.

Ni ishyamba rigizwe n'ibiti bitangaje. Ibi biti bifite amababi yumye ndetse n'andi agifite ibara ry'icyatsi. Ibi biti ni birebire bifite amatabi yashibutse ahereye hejuru. Ibi biti biteye imbere y'inyubako, inyubako yubakishijwe amatafari ahiye.

Imirima imwe n'imwe iba irimo ibihingwa bitandukanye, imwe iba irimo ibitoki ibishyashya n'ibyashaje ibirimo n'imyumbati ndetse n'ibyatsi bitandukanye, ibitoki rero byashaje bigira amababi y'umuhondo andi yarerurutse.

Ni igihingwa cy'imbingo, imbingo zarakuze, zikeneye gusarurwa, ariko izi zo zarengeje isarura kubera ko zenda kuba n'imishingiriro. Inyuma yazo hari ibiti birebire bitari imbingo.

Ni igihingwa cy'imboga kigaragaza ikidodoki cyangwa igishayote. Ntabwo cyari kera kuko gifite amababi gusa kandi kiranze hasi kuko nticyigeze gishingirirwa. Si cyo cyonyine gihari kuko kiri kumwe n'ibiti, urutoki ndetse n'amateke.

Ni ibiti bigufiya bitanabyibushye, bihinze inyuma y'urugo. Ibi biti byegeranye n'ibiti bifashe inyubako y'inzu, abantu babamo. Iyi nzu isakajwe amabati, kandi amabati afashwe ku biti bimanutse, ndetse n'ibitambitse.

Ni ibyatsi bitari birebire cyane, ibi byatsi ntibigira amashami, kuko amababi yabyo aratangira akazamuka, agenda ahunguka buhoro buhoro, uhereye ku yaje mbere, ibi byatsi inyuma yabyo hari ibindi birebire.

Ni igiti gitangaje, kandi gifite amabara menshi atandukanye. Wagira ngo kirumye ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ukagira ngo kiracyari kizima. Iki giti gifite amatabi yatangiye gushibuka uhereye hasi cyane.

Ibiti byatemye kera none byahinduye isura ndetse biba nk'inkwi zumye, ibiti birambitse hasi aho hamwe hari uduti dutoya tutarakura tugaragara nk'ibyatsi bigufi n'ubundi bitazigera bikura ngo bibe birebire.

Ni indabo ndende zimwe bakunda gucaho ibyatsi bafungisha imifuka mu cyaro kandi ziteye mu ishyamba kuko hari ibiti, byegeranye na byo ndetse hari n'ibyatsi byinshi.

Ni ishyamba ririmo ibiti birebire bikeya ndetse n'ibiti n'ibyatsi bigufi byinshi cyane. Muri iri shyamba bakozemo akayira umuntu ashobora kunyuramo. Aka kayira kanyura hagati y'ibyatsi bigufi ibi kuko ibirebire byo biri kure.

Ni ibiti bimwe bitoya, ibindi birebire, ibindi biringaniye. Ibi biti, biratangaje. Hari ibifite amababi y'umuhondo, hari ibifite amababi yerurutse, hari ibifite amababi agisa n'icyatsi ndetse hari naho hatigeze hamera igitaka na kimwe.

Ni icyapa gisa n'umweru kiri mu ishyamba bigaragara ko ari rinini cyane, cyanditseho amagambo amwe ari mu ibara ry'umutuku, ndetse n'andi ari mu ibara ry'ubururu, ari mu ibara ry'umutuku hari nimero y'ikibanza n'igihe ibyo biti byahingiwe, ndetse ibiri mu mabara y'ubururu byanditseho izina ry'ibyo biti.

Ishyamba ritoya ryegereye aho abantu batuye, harimo ibiti bimwe birebire ndetse n'ibimwe bigufi bigaragara nk'ibyatsi, hafi yaho hatuwe n'abantu kuko hari amazu ndetse iri shyamba ntabwo ari inzitane.

Amateke afite ubwoko butandukanye, ahangaha rero hari amateke agira amababi ajya ku n'umweru icyatsi gikeye ariko gisa n'umweru kandi aya mateke ahinze mu murima urimo urutoki ndetse n'igiti kirekire.

Ni umurima urimo ibihingwa bitandukanye, harimo ibiti, harimo urutoki, harimo ibyatsi ndetse uyu murima uri inyuma y'urugo, muri uyu murima hanyuzemo urutsinga rw'amashanyarazi rutwara amashanyarazi ruyakura hamwe ruyajyana ahandi.

Ingemwe z'igihingwa cy'avoka. Izi ngemwe barazikora bakareka zigakoramo gake zikegera hejuru, hanyuma bazireka ngo zikure, barazishyize mu mufuka ndetse uwo mufuka barawushyizemo ifumbire ndetse n'itaka bihagije byafasha izo voka gukura neza.

Ni umuhanda w'igitaka, iruhande hateye insina y'igitoki ndetse haraguru y'insina hari avoka, ahantu hari itaka risa n'umutuku, hari ibyatsi byinshi bihakikije ariko mu muhanda nta sima irimo, ni akayira.

Ni ishyamba ririmo ibiti birebire ariko bifite amashami matoya atabyibushye kandi amashami yabyo yatangiye kuza uhereye hasi, iri shyamba ntabwo rigaragara nk'iririmo ibiti byinshi kuko hagati harimo umwanya ugaragara.

Igiti giteye inyuma y'igikoni, igiti cyarakuze kiba kirekire cyane kizana amashami none cyarenze uburebure bw'inzu. Iki giti gifite amababi afite amabara amwe agisa n'icyatsi andi arasa n'umuhondo ndetse gifite n'amashami magari.

Ni agashyamba gatoya karimo ibiti birebire bifite amashami atari manini cyane, aya mashami ayahinduye ibara harimo agisa icyatsi harimo n'ayabaye umuhondo, iri shyamba si inzitane kuko urumuri rushobora gutambuka.

Ni inzu ntoya y'ibiti, barabishinze ibindi barabitambika hejuru kugira ngo hashyirweho isakaro, kuri ibyo bitambitse bashyizeho ibyatsi byumye ndetse ku ruhande bashyiraho agafuka kameze nk'umuryango, hirya yaho hari urutoki.

Ni igihingwa cy'amaronji, amwe areze andi ntarera, ayeze aba asa n'umuhondo, atarera aba agifite ibara ry'icyatsi, iruhande rwaho hari ibyatsi byinshi ndetse inyuma yayo hari inyubako y'inzu isakajwe n'amabati y'umutuku ndetse n'indi y'amategura.

Ni ishyamba ry'inzitane ariko iri shyamba ririmo ibiti birebire bikeya ndetse n'ibiti bigufi byinshi. Ibiti bigufi harimo ibifite ibisura bishobora kwicana, hari n'ibindi birebire bikura bikazana uturabo gusa.

Umuntu w'umukobwa afite ibisuko birebire yambaye bote n'ipantaro y'umukara yambaye ishati y'ubururu. Ari kugenda atoragura ibihaza by'amazi menshi watermelon aho agenda abirunda ku ruhande rumwe.

Ni umusaruro w'ibihaza binini cyane, ibi bihaza bimaze iminsi bisaruwe kuko inkondo yabyo yarumye, byarakuze kubera ko byahinduye isura ntibigisa n'icyatsi, ahubwo ibara ryabyo ryabaye umuhondo, ni bine biteretse ku meza.

Ni umurima w'umuringoti wamezemo urudodo rumwe runini cyane rubyibushye ruteye amabengeza, indi miringoti irahinze nta kintu gihinzemo, gusa iyo hirya hahinzemo karoti zeze cyane zikeneye gusarurwa.

Akarima k'igikoni, gafite etajeri eshatu hejuru cyane hariho etajeri ntoya, hagati etajari yisumbuyeho ndetse hasi hakaba itajeri nini cyane, hateyemo imboga z'ubwoko butandukanye n'abantu bari kuzisoroma.

Imboga zaraguzwe zirazanwa mu rugo, none bazishyize ku nkoko. Izi mboga zarumye bisa nk'aho zimaze igihe kinini cyane. Inkoko ikozwe mu migano, ndetse itewe n'akarange ku mpande gasa n'ubururu. Inkoko iteretse ku mifuka.

Hari ingemwe z'ibinyomoro. Izi ngemwe ziteye mu kavuyo, kuko ziracucitse cyane. Ziregeranye bikabije kandi ahantu ziteye nta buhumekero buhari. Bigaragara ko nizikura batazigabanya zitazakura neza, zizadara zinanuke.

Ni akarima k'igikoni gahinze mu rugo rw'umuntu, n'umumama n'umwana baje gusoroma imboga zezemo, akarima k'igikoni gatewemo dodo, bari kureba uko byifashe, iruhande rw'aka karima k'igikoni hatewe ibihwagari, kandi n'amazu abantu batuyemo yubakishije ibitaka.

Ni ubusitani budaheruka gucucirwa kubera ko pasiparumu irimo yarumye ndetse yararandaranze, nta fumbire na yo ifite. Iruhande rwayo hari uturabo twiza cyane kuko twarayanze tuzana uruyange rusa n'ubururu.

Umurima w'intoryi uba ukeneye kwitabwaho, mu gihe zitarera umuhinzi agomba kuzitaho mu gihe zize muri inzaraza akazizisoroma, uyu murima rero urimo intoryi urimo n'amateke, umuhinzi urimo azitaho ari kuzireba neza ngo arebe ko zeze ngo asarure.

Ni ahantu bacuruza imboga z'ubwoko butandukanye, hari karoti zisa n'umuhondo, hari ibibiriganya bisa n'ubururu, hari biterave zisa n'umutuku, hari ndetse n'utundi dukoresho dutandukanye, amabase ndetse n'ibindi bintu bitagaragara neza, aha ngaha barahacururiza.

Ni umusaruro wa tangawizi, tangawizi zarasaruwe zirangije zishyirwa aha ngaho kugira ngo zerekanwe, ntabwo zari zakurwaho itaka ndetse ziracyafite n'ibibabi byo hejuru, tangawizi iyo zeze ziba zimeze nk'amano y'abantu.

Ubuhinzi bw'intoyi burakorwa kandi intoryi zirerz ndetse zigasarurwa. Hari abantu babiri umumama ndetse n'umukobwa, bari kwerekana intoryi zasaruwe buri wese afite mu ntoki ari kuzerekana.

Ubuhinzi bw'imbuto y'ibinyomoro, ibinyomoro birahingwa iyo byeze biba byarabaye umutuku, ibingibi rero ntabwo byari byera, kuko biracyasa n'icyatsi ariko harimo bimwe byatangiye guhinduka umutuku bivuze ko byenda kwera.

Igihingwa cy'imyumbati, imyumbati baba barayiteye hanyuma igakura, iyo ikuze izana amababi ari yo dusoroma yitwa isombe, iyi sombe rero iyo itinze mu murima cyangwa yararwaye ihinduka umuhondo.

Ni ubucuruzi bw'imbuto zitandukanye, izi mbuto zose zicururizwa mu bintu bikoze mu mbaho byakozwe nk'ibibogisi, hari indimu zimwe zihiye cyane kuko zahinduye isura ziba umuhondo ndetse n'izigisa n'icyatsi hari amatunda.

Umurima uriho uduhingwa dutoya tw'imboga ndetse iruhande rwaho hari ifumbire yakozwe mu byatsi iharunze igatwikiza ibyatsi byumye, hari rozwari ikoreshwa mu gucucira, hakurya gatoya hari agashyamba gatoya.

Uyu muhanda urajya ahatuwe n'abantu cyangwa se mu rugo rw'umuntu kubera ko urangirira ku muryango mugari winjira, uyu muhanda ukikijwe n'indabo zitandukanye harimo zimwe zifite uturabo hari izidafite indabo ndetse n'agapasiparumu.

N'ibiti bitoya bigufi byakaswe birashingwa; bagiye gukoramo akarima k'igikoni, hari abantu babiri b'abagabo bari kubireba uko bimeze. Ibi biti ntibyakukokowe neza ngo amababi y'ibiti byabyo ashijweho.

Iyo ibirayi byeze ibibabi byabyo birahinduka, urutirigongo rufasheho amababi rurakura rugakomera cyane, nguku rero uko ruba rumeze, ruragenda rugahinduka umweru ndetse iyo batinze gusarura ruhinduka umuhondo.

Ni ubucuruzi bw'imboga, hari inyanya zifite ibara ry'umutuku, hari imiteja myinshi cyane ifite ibara ry'icyatsi ndetse hari n'intoryi byose birambitse hasi ku ihema risa n'umukara, iruhande rwabyo hari akavuyo kuko hateretse amabase ndetse n'ibidomoro.

Umurima w'amashu, amashusho ntarera neza, ni makeya, akarima ni gatoya, kari hagati y'indi mirima idahinzemo amashu, aya mashu yafumbijwe amababi y'ibigori byumutse mu gihe biba bitegereje ko byuma.

Ni umuhanda werekera mu rugo kuko ugera kuri geti. Uuyu muhanda ukikijwe n'indabo zitandukanye hari zimwe zisa n'umutuku, hari zimwe zifite uturabo dutoya tw'umutuku kandi uko ugaragara ukikijwe na pasiparumu.

Igihingwa cy'ibipapayi bya kijyambere. Ibipapayi biba binini cyane kurusha ibisanzwe bya Kinyarwanda. Bifite amacebe manini cyane ariko ntabwo byari byera kubera ko biracyafite ibara ry'icyatsi. Biracucitse cyane ku buryo bimwe bitazera bikagwa hasi.

Umuryango urimo gusoroma igihingwa cy'imiteja. Harimo umubyeyi w'umupapa, umumama ndetse n'abana babiri batoya. Umwana mutoya ari gusoromera mu ipaniye ndetse yenda kuyuzuza. Abandi bo ibyo bari gusoromeramo ntibigaragara.

Ni imineke y'ubwoko bune butandukanye ariko yose irahiye kuko yose isa n'umuhondo, iyi mineke irambitse ku kintu gisa n'ubururu kandi iki kintu gisa n'ubururu cyanditseho amagambo amwe ari mu ibara ry'umuhondo, andi mu ibara ry'umweru.

Ni ubusitani bukozwe na pasparuum ariko hamezemo imboga za dodo. Mu kumeramo izo mboga za dodo, hari n'amabara y'umutuku bigaragara ko yavuye ku giti kiri kirekire ubwo busitani buteye munsi, akaba aricyo cyakuze kigatanga utwo turabo twaguye hasi dusa n'umutuku.

Abantu babiri umukobwa n'umuhungu basuye umumama ucuruza imbuto n'imboga, uyu mugore imbere ye hateretse ameza ariho inyanya, ibitunguru hasi imbere ye hariho imboga za dodo, karoti ndetse n'intoryi.

Inzu y'ubucuruzi ntoya irimo ibiribwa ndetse n'ibikoresho byo mu rugo bisanzwe. Mu bikoresho byo mu rugo harimo amabase, harimo indobo, harimo n'ibikombe. Mu biribwa harimo ibihaza byeze cyane bimwe byabaye umukara, harimo ibijumba ndetse n'umucuruzi.

Igihingwa cya voka. Voka barayitera igakura ikazamuka, ubu ngubu igeze ku kigero cyo kuba yaravuye mu butaka yarazamutse ndetse yarazanye amababi n'udushami dutoya, barayibangurije kandi bigaragara ko iteye mu murima bakuyemo imyumbati n'amateke.

Dore ubucuruzi bw'imboga bukorwa mu giturage. Ni imboga zicuruzwa ni karoti ndetse n'intoryi. Intoryi zirimo gucuruzwa ubu ngubu, zirashaje kubera ko zahinduye isura, zisigaye zisa n'umuhondo. Karoti zo abantu barazitwara ku bwinshi. Dore hasigaye imitandiko itanu gusa. Byose bitandikwa ku mahema.

Umusaruro w'urusenda rweze. Uru rusenda harimo urweze cyane rusa n'umuhondo ndetse harimo n'uruteze cyane rugisa n'icyatsi ndetse hari n'ururimo hagati rufite ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo bararusaruye barushyira mu mufuka.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye, harimo intoryi, harimo amateke, ndetse harimo n'ibigori, mu bigaragara umuhinzi yaje kureba aho intoryi ze zigeze zera, ari kuzikoraho, izi ntoryi zenda kwera ariko ntabwo zari zera neza.

Ni uturima tw'igikoni duteye amabengeza duteyemo imboga za dodo za kijyambere. Zirakuze cyane zirashishe kandi ntiziheruka gusoromwa. Uko bigaragara zigomba gusoromwa vuba kugira ngo zitazazana uruyange zigapfa.

Ni akajaride gatoya kadatunganyije neza kuko gakozwe n'imicaca yimejeje, ntabwo umuntu yagirango ngo ni pasiparumu ndetse ku ruhande hari uturabo twatewe dufite amabara y'umuhondo, imbere y'utwo turabo hari umuhanda w'ibitaka.

Ubucuruzi bw'imboga, imboga zirimo gucuruzwa, zicuruzwa mu mabase, hari ay'umutuku, hari ay'icyatsi, izi mboga rero harimo kokombure, harimo ibibiringanya, harimo imiteja, harimo na beterave, ndetse n'ibitunguru.

Umurima w'imboga rwatsi zitwa dodo, izi mboga zirakura zigasarurwa, iyo zikuze ntizihite zisarurwa zirakururumba zikazana uruyange n'uturabo, ndetse icyo gihe iyo cyageze ntabwo umuntu yaziteka ngo zishye neza, ntabwo ziba zikiryoshye.

Abantu bo mu giturage bikoreye amabase arimo ingemwe zo gutera izi ngemwe zisa nkiz'ibinyomoro, ndetse n'abandi bavuye ku ivomero hari abikoreye ibidomoro by'amazi, hari ibibido biri hasi bitari byavomwa n'abandi bana bari aho bari kubareba.

Ni igihingwa cy'intoryi, intoryi zigejeje igihe cyo kuba zasarurwa kuko zireze, ntizigisa n'icyatsi ahubwo ibara ryahindutse umweru, zireze neza, ziteye amabengeza kandi ziri ku mababi ashishe.

Ni ubucuruzi bw'imboga za dodo za kijyambere. Izi mboga za dodo zimwe zifite ibara ryahindutse umutuku, izindi zifite amababi agisa n'icyatsi. Hari izikiri mu mifuka zitarakurwamo. Izakuwemo zirambitse hasi ku gifuka.

Umurima w'ubusitani bukozwe na pasipalumu, ukikijwe n'ahantu hadateye pasipalumu ahubwo hateyemo uturabo. Utu turabo dufite amababi yizingazinze ndetse dufite n'uturabo dusa n'umutuku.

Umurima w'indabo z'ubwoko butandukanye, harimo zimwe zigira uturabo tw'umutuku, iyo tumaze gukura duhunguka tukagwa hasi, hari izindi zitagira indabo, hari n'izindi zigira amahwa ku buryo zishobora kujombana.

Icyatsi gitangaje gihingwa mu busitani butandukanye. Ni kinini cyane ariko ntikijya kiba kirekire. Gitangira kuzana amashami kikiri hasi ku mizi. Iruhande rwacyo hariho pasiparumu ntoya ndetse ikikijwe n'uturabo dufite uturabo tw'umutuku.

Ubuhinzi bw'inyanya, inyanya zirahingwa zakwera zigasarurwa, turi gusarura inyanya zeze, iyo zeze ziba zisa n'umutuku werurutse kandi iyo zitari zera neza ziba zisa n'umuhondo, izitare na gake ziba zisa n'icyatsi, mu murima dushobora kuzingana n'imyumbati.

Ubuhinzi bwa karoti, karoti zarahinzwe ndetse aka kanya ubu ngubu tuvugana zireze, amabara y'icyatsi yatangiye guhinduka umuhondo, ntizihinze mu murima wonyine kuko harimo n'ibiti by'imyumbati, bivuze ngo hagati hari umwumbati ushobora no gukurwa.

Hari imboga za puwaivuro ni imboga eshanu ziri ku gitambaro kimeze nk'igitenge, izo mboga uko bigaragara zirakuze zireze cyane kandi ntabwo zitunganyijwe, bivuze ko zigomba gutunganywa mbere y'uko baziteka.

Imirima burya ikenera gucocerwa izuba iyo ribaye ryinshi imyaka iruma ntibe igishoboye gukura, ariko kubera amazi aba ari hafi abantu baracocera, hari abantu babiri bose bambaye imipira itukura baje gucocera.

Imirima igeramo amazi mu buryo butandukanye, imirima imwe n'imwe baba barashyizemo imiyoboro izatuma hageramo amazi bitagoranye, hamwe baba barashyizemo amatiyo agenda anyuranamo agatuma amazi ahagera byoroshye.

Igihingwa cy' amashu, amashu iyo amaze gukura akenera guterwa umuti kugira ngo wice udukoko dushobora kuyangiza. Amashu arasasirwa hakoreshejwe ibyatsi bitoya byumye, kugira ngo ifumbire ikomeze kugumamo kandi akure neza.

Ubuhinzi bw'ibigori mu gishanga. Mu gishanga habayo imiringoti ari yo bahingamo ibihingwa bitandukanye ndetse n'ibigori birimo. Hagati y'imiringoti haba hanyuramo umugenda ugenda utwara amazi arimo n'ibyondo. Aya mazi rero ni yo anyuzwamo amatiyo akagenda acucizwa imyaka.

Ni umurima w'ibishyimbo biteye mu buryo bwa kijyambere, ibishyimbo biteye ku murongo, umumama ari gucucira ibyo bishyimbo akoresheje amazi yo mu ndobo, akoresha indobo y'umukara, yambaye imyenda isanzwe y'ababyeyi kandi arimo araseka.

Ni abahinzi benshi cyane harimo abato, abakuru, abagore, ndetse n'abagabo, bari guhinga mu murima mugari cyane buri wese ari guhinga ahereye mu buryo bwe uko abyumva, hari abari guhinga bareba hepfo, hari abahinga bareba haraguru, ndetse bose bararebana.

Ubuhinzi bw'icyayi, icyayi kirahingwa kandi kigahingwa ku buso bunini cyane, gihinzwe mu materasi manini, amwe aragaragara cyane, arimo icya kikiri gitoya, andi arimo icyayi cyakuze ku buryo gishobora no gusarurwa.

Ni ikibuga kigari cyane, ikibuga kitubakiye, kuko kirimo itaka ryinshi. Gikikijwe n'ibyatsi bimwe bikase neza bimeze nk'indabo, inyuma y'ibyo byatsi hakaba hari ibyatsi bisanzwe by'umucaca.

Umurima w'icyayi kikiri gitoya. Icyayi cyaratewe kimaze gufata ariko nticyari cyatangira gukura neza. Iki cyayi giteye ku butaka busa n'umutuku. Haraguru yaho hari umuhanda, hirya yaho hari agashyamba gatoya ndetse uko bigaragara ni hafi y'ahatuwe n'abantu.

Ni umukoke, watewe n'amazi y'imvura. Imvura yabaye nyinshi, hanyuma hazamo umwobo muremure, mugari. Uyu murima wajemo uyu mukoki ntuheruka guhingwamo, wararaye bigaragara ko hashize igihe kinini nta muntu urahahinga.

Agace kagizwe n'imisozi miremire ariko na none kariho ibihingwa byinshi bitandukanye, harimo ibirebire, hari ibigufi ndetse hari n'ahatari igihingwa na kimwe, hari abantu barimo kuhagenda benshi bafite ikintu bahugiyeho.

Ni abantu bane bari mu murima, batatu muri bo bari guhinga, ni umwana, umugabo, ndetse n'umugore. Inyuma yabo hicaye umumama mukuru, ari kubareba bari guhinga bareba hepfo mu mitabo.

Ni icya kigari cyane kirimo ikibuga cy'itaka kitubakiye, ikibuga gikikijwe n'ibiti bitari birebire cyane iruhande rwo hepfo, ndetse ku ruhande rwo hino hari ibyatsi bigufiya bimeze nk'umucaca wimejeje, ndetse n'uturabo dukaze.

Ni umurima uri mu gishanga uteyemo umuceri ndetse haruguru yaho hari umusozi. Umusozi mu ntangiriro hari ishyamba, hirya yaho hari urutoki ndetse mu mpinga y'uwo musozi hari amazu bivuze ko hatuwe n'abantu.

Ni umusozi w'ishyamba rirerire ariko riracucitse, riri ku ruhande rumwe hagacaho ahatateye ishyamba na rikeya, kuru ruhande hakongera hakazaho ishyamba, hepfo yaho hari umugezi munini cyane umeze nk'ikiyaga.

Imirima ikoze mu buryo bwa kijyambere, amaterari, guhera hasi ku kujya haraguru amaterasi yarakozwe kandi bayahinzemo. Ibiti bateyeho byarakuze. Ndetse haririmo n'udushyamba ahatarakozwe amaterasi.

Ni umugezi mutoya wo hagati mu gishanga. Uyu mugezi urimo amazi yerurutse bigaragara ko yanduye kuko amazi asa n'umweru ntabaho, aya mazi aragenda anyura hagati y'imiringoti iteyemo umuceri.

Ni ibyatsi bigufiya, bifite amahwa, bishobora kwicana, ibyo byatsi biracucitse, nta n'ubwo umuntu ashobora kubinyuramo hagati, hafi yabyo nta byatsi bihari ahubwo wagira ngo hakozwe amaterasi y'indinganire.

Ingurube ntoya irimo kugaburirwa, bari kuyigaburira bakoresheje igice cy'ikidomoro baciye. Iyi ngurube inyuma yaho hari amacupa, ndetse hahagaze n'umuntu wambaye inkweto z'umukara n'ipantaro, bisa nkaho ari we uyitaho.

Ihene, ihene irahagaze hasi, ifite amabara menshi harimo umweru, umukara, ikijuju, umurizo wayo urasa n'umweru n'umukara, iyi ihene ihagaze hasi mu mbuga ndetse iri kureba imbere, ifite n'amahembe abiri.

Mu rugo rw'abahinzi ndetse n'aborozi hari ikiraro, hari umubyeyi w'umumama, hari umupapa ndetse hari n'umwana. Bafite ihene eshatu, bafite inka nini ndetse n'akana gato iyo nka nini yabyaye. Umubyeyi ari kwerekana ihene uko imeze.

Ubworozi bw'ingurube ni ingurube ya kijyambere irabyibushye isa neza, iri mu nzu yayo kandi inzuyo ntabwo yubakishije ibiti, mu nzu yayo harimo akadomoro baciye kamwe bayiheramo ibiryo aha aho iri iri kurisha.

Ihene ifite ibara ry'ikijuju ndetse n'umweru n'amahembe, yarakomeretse, umuveterineri yarayivuye, ayishyiriraho umuti. Yakomeretse ku kaguru k'inyuma, k'iburyo. Iyi hene iri gukira.

Ni urugo hari inzu ifite idirishya ndetse n'urugi biteye irangi ry'ubururu bifungishwa agapata, mu mbuga y'ibitaka hari abantu batatu umugabo umugore ndetse n'umwana, umugabo ndetse n'umugore bafashe ku ntama yabo nkuru.

Itungo ryitwa ingurube riri mu nzu yayo. Inzu yayo ni ikiraro gikozwe mu biti bimwe bimanutse ibindi bitambitse. Mu nzu yayo harimo ikintu cy'igice cy'ikidomoro baciye bigaragara ko ari cyo bayiheramo ibyo...

Hari inkoko ebyiri, imwe ni isake, indi ni inkokokazi, iy'isake irimo kugenda kandi ifite ibara ry'umutuku upika cyane ndetse n'amaguru maremare, ariko inkokokazi yo iri kureba iyo sake kandi ni ngufi ku isake.

Ni inka yabyaye akana iri kukonsa, iyi nka yabyaye ifite ibara ry'ikijuju ndetse n'iry'umweru, ariko akana yabyaye gafite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, aka kana kari konka gashobora kwiyonyesha gahagaze.

Ubworozi bw'inka inka yororerwa mu kiraro cyubakishije ibiti ndetse n'imikoba, harimo umuntu mu kiraro ari kuyireba ndetse n'undi uri inyuma y'ikiraro ari gukora ku nka, inka iri mu ngombe iri gufatamo ubwatsi, ikiraro cyayo gisakaje amabati.

ubworozi bw'inka, hari ikiraro cy'inka kirekire gifite imyanya myinshi mu imbere, cyubakishije ibiti ndetse n'imikoba, inka ntiziri mu kiraro ahubwo ziri imbere yacyo, bazihaye ubwatsi hanze ziri kurisha, hari umugabo mukuru ndetse n'umwana bari kuziha ubwatsi.

Ubworozi bw'ingurube, ingurube yororewe mu kiraro cyayo; ikiraro cyubakishijwe imikoba y'ibiti, ko aho bamwe bashinze ibiti biyimanuka indi mikobo bakayinyuzaho izenguruka. Ingurube yabyaye ibyana byinshi biri kuyonka

Ni ihene eshanu ziri mu kibuga cy'itaka, izi hene zifite amabara atandukanye, hari izifite ubwoya buhagaze cyane, hari izitabufite, hari izifite amabara y'umweru, izifite amabara y'ikijuju n'izifite amabara y'umukara.

Inkoko kazi irimo iragenda, iri kugenda inyura hasi ku ita nta sima ihari ni itaka risanzwe, ahantu iri kunyura hari kuva izuba ryinshi kandi ni munsi y'igiti kuko hari igicucu cucu cyinshi ndetse n'igicucu cucu cy'inkoko.

Ihene ifite amabara abiri umukara ndetse n'umweru, iraziritswe hakoreshejwe umurunga washyizwe mu ijosi ndetse bakawuzirika ku kaguru kamwe k'ikiraro, ikiraro cyayo gikozwe mu biti kandi harimo ubwatsi ishobora kurya iraryamye.

Ingurube yorowe. Iyi ngurube ni nkuru cyane, yarabyaye ibyara abana benshi. Abana bayo bari kuyonkera icyarimwe. Iryamye yerekeza amabere ahagaragara kugira ngo abana batoya bayo babone uko bonka.

Ubworozi bw'ingurube, ingurube yarabyaye kuko ari nini cyane ni imbyeyi, yabyaye abana benshi cyane ni abana barindwi, abana uko ari barindwi bose bari kuyonkera icyarimwe, none yaryanira kugira ngo ibereke amabere neza.

Abana batoya b'ingurube batanu, bararyamye, baryamye begeranye mu gapfundanwa. Baryamye mu kiraro cyabo, ikiraro cyabo cyubatse kijyambere kuko hasi harimo sima ndetse ntabwo cyubakishije ibiti, ahubwo cyubakishije ibipande bya sima.

Ingurube yavuye mu nzu yayo irasohoka iza hanze. Iyi ngurube mu nzu yayo hari hasa nabi kuko iranduye cyane ku maguru ndetse no ku munwa. Yaje hanze none iri gukora mu mabuye bari bari kubakisha bari gusanisha, ihagaze imbere y'urugi rwinjira mu nzu.

Ni ingurube ifite ibara ry'umweru, iri kugenda hanze kuko ntizirikiye mu kiraro cyayo. iri kugenda itoragura ibyo ibonye byose, iri kugenda inyura mu rutoki ndetse inyuma yayo hari urugo rukoze mu matafari adahiye ya gikarakara.

Ni ingurube iri mu nzu yayo, iyi ngurube irabyibushye, imeze neza, ifite n'isuku. Mu nzu yayo nta bwatsi burimo; ibirimo yarabiriye byarashize, inzu yayo rero yubakishije ibiti bitambitse ndetse n'ibihagaze.

Ni umuntu ari kugenda akurura inka, inka ye isa n'umweru yayiziritse umugozi mu ijosi, uyu muntu rero inyuma ye hariyo abandi bantu bari kugenda, hari n'umwana wikoreye ikibido cy'amazi n'undi wegamiye ku kazu k'inyuma.

Ihene ntoya itarakura cyane ifite ibara ry'umukara, ikijuju, umwe n'amaguru maremare, irahagaze, ihagaze hasi ndetse irimo kwitegereza cyane imbere bisa nkaho igiye kwiruka.

Inka y'ikimasa iri mu nzu yayo, inzu yayo ikozwe mu biti bishinze ibindi bitambitse binyuranamo, isa n'umukara kandi isa nabi kuko aho iryama hari ibyondo byinshi cyane bivanze n'amase yayo, iri kurisha mu ngombe.

Inka iraragiwe mu byatsi byo hanze. Ntiziritse mu kiraro ahubwo bayitereye. Iruhande rwayo hari uyireberera. Iyi nka ifite ikiziriko mu ijosi. Isa n'ibara ry'ikijuju ahantu hose. Aho umuntu ahagaze ni mu nzira.

Hari inka, iri mu kiraro cyayo, ikiro cyayo cyubatse mu biti, ndetse n'ibiti bimwe bishinze ibindi bigenda, binyuramo ku ruhande. Iyi nka ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, inka yambaye iherena, iri kureba mu ngombe ariko ntabwo irikurya ubwasi bwayo. Ku kiraro cyayo hamanitse n'umunyu wayo.

Umumama akenyeye igitenge yambaye umupira ndetse yiteye isharupe mu mutwe, ari gukurura ihene ebyiri azerekeza ahari ubwatsi ngo ziburye, inyuma y'iwe ntetse n'ihene hari inzu isakaje amategura.

Ubworozi bw'amatungo magufiya, ubworozi bw'ihene hari ihene nini ndetse n'intoya, inini niyo mama y'intoya, inini iraziritse bayishyize umurunga mu ijosi ubundi bawuzirika ku giti kimwe gikoze ikiraro.

Inka irorowe, yororewe mu kiraro cyayo, ikiraro cyayo cyubakishije ibiti, bimwe birashinze bihagaze ibindi bikaza binyura ku bishinze bitambitse, iyi nka aho ihagaze hasasiye ibyatsi, kandi iyi nka ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru n'uduhembe dutoya.

Ihene zirororwa kandi zororwa mu bwoko bwinshi. Hari iziba zifite ibara rimwe ry'umukara zifite n'ibara ry'umweru, hari iziba zifite ibara ry'umukara gusa, hari iziba zifite ibara ry'ikijuju, kandi zose zirumvikana kuko zisangirira hamwe.

Ni ihene ebyiri, imwe iragaragara cyane yose indi ntigaragara yose, igaragara yose ifite ibara ry'ikijuju ndetse n'ibara ry'umukara mu mugongo no mu maso, ifite amahembe abiri, ihene itagaragara neza ibara ry'ikijuju ndetse n'umweru mu maso.

Ingurube iri mu kiraro cyayo, ikiraro cyayo gikozwe n'ibiti ariko inyuma y'icyo kiraro hari igiti kirekire cyakuze ku buryo amababi yacyo aza akajya mu kiraro cy'ingurube, muri iki kiraro cy'ingurube harimo ibyatsi irimo kurya ndetse n'ikintu bayiheramo ibiryo.

Ingurube yo mu bwoko bwa kizungu, iri kurya bayigaburiye mu kitomoro k'igice bakase. Ingurube ifite amatwi maremare, ifite n'umurizo uhinahennye. Imbere yayo hari akazu gafite imiryango ibiri, aka kazu gahomesheje ibitaka.

Ubuhinzi bw'amashu. Umuhinzi yahinze amashu menshi mu murima we ndetse ubu ngubu ageze mu gihe cyo gusarura. Ya umunzi yaje yambaye umupira w'umutuku kandi afite n'ikigega kinini agomba kuyashyiramo. Uyu murima we ukikijwe n'urutoki.

Mu murima w'urutoki hatewemo imboga za dodo, izi mboga ni dodo za kijyambiere kuko zarakura cyane zikaba ndende ndetse zifite n'amababi abyibushye ugereranyije na dodo zisanzwe, abantu babiri bari kuzireba umwe ari kwereka undi kandi ziteye mu rutoki rukuru.

Ni igihingwa cy'urusenda ariko urusenda ntirurakura neza ngo rwerereke k'uburyo umuntu yarusarura, urusenda ruracyasa n'icyatsi kandi rwose rwazanye akabara k'umutuku hejuru bigaragara ko rwenda kwera, uyu muntu arimo kurwerekana yarwegetse ku giti.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo. Ibishyimbo nyuma yo kubitera biratangira bikamera, nyuma yo kumera bitangira bimera bizana akababi kamwe ariko nyuma yaho bikazana amababi menshi. Ibishyimbo rero byatangiye gukura bizana amababi atatu hejuru y'ubutaka.

Imyumbati barayihinze ariko hejuru basiga akantu gato kadatabye mu itaka, ako kantu rero karimo gushibuka. Bahinze mu itaka risa n'umukara kandi hirya yaho gato ntabwo hahinze.

Igihingwa cy'inyanya, inyanya zarahinzwe ariko ntabwo zari zera neza, zimwe zitangiye kwera kuko zahinduye ibara zisa n'umuhondo ariko izindi ntabwo zari zera. Uru runyanya rurabyibushye cyane kuko ruratoshye bigaragara.

Ubuhinzi bw'inyanya, inyanya zararumbye kuko ku runyanya rwose hezeho urunyanya rumwe, uruhari rwareze rusa n'umutuku, ariko na rwo wagira ngo rurarwaye, umusaruzi ari kureba neza ngo arebe ibyo ari byo.

Ni aho bororera ingemwe zigomba guhingwa. Hakikijwe n'utwatsi dutoya, ariko hejuru hasakawe n'ibintu bisa n'umukara. Hasi harimo ingemwe ntoya zitarakura, ibintu by'umukara ni ibyo gutuma izuba ritica izo ngemwe.

Ni ingemwe z'ibiti, izi ngemwe zifite amababi asa n'icyatsi ndetse n'andi yo hejuru yahindutse umuhondo. Ntabwo zari zaterwa kuko ziracyari mu masashi zakuriyemo, amwe asa n'umukara aba yarashyizwemo ifumbire n'ubutaka anacucirwa.

Ni ingemwe z'imboga zitandukanye harimo isogo ndetse na dodo, harimo ndetse n'inyanya. Izi ngemwe ziracucitse cyane kandi nta ntungamubiri zihagije zibona nkuko utubari twazo twatangiye gusa n'umuhondo, harimo n'ibyatsi byinshi.

Aho bororera ingemwe, umurama nyuma yo kuwinaza urakura hanyuma ukavamo ingemwe, ingemwe bazikuramo zamara kuvamo bakazishyira mu dusashi dutoya dusa n'umukara, utwo dusashi dutoya tuba turimo itaka ndetse n'ifumbire bituma izi ngemwe zikura neza, hejuru hafakajwe ibintu bisa n'umukara bituma izuba ritageramo ari ryinshi.

Ubuhinzi bw'ibitunguru bya kijyambere. Ibitunguru barabihinga bakabishyiramo ifumbire, ndetse bigakura cyane bikazana amababi manini, ku buryo ushobora kugira ngo si ibitunguru. Ubiranduye ushobora gusanga hasi bifite imizi minini, ndetse n'ikirayi kinini.

Ni impungure zahunguwe ku bigori byumye. Izi mpungure ntizahunguwe neza kuko hari izagiye zivana ku kigorigori n'ibigorigori bitoya. Zirarambitse mu mufuka mutoya, ziri kwerekanwa ngo bazibone. Zisa n'umweru cyane.

Bateye ingemwe hanyuma bashinga ibiti, hejuru bashyiraho ibyatsi. Ibyatsi babishyizeho aho biri kugira ngo hajye haza agacucu, bigabanye izuba riza rikica izo ngemwe bateye, hanyuma zibashe gukura neza.

Ni umugenda mugari cyane urimo amazi bigaragara ko ari maremare, aya mazi ni mabi kuko asa n'umukara ari kugenda ava mu mirima ifite itaka ry'umukara aya mazi rero ari kugenda kandi akikijwe n'ibyatsi.

Ibigori byarasaruwe hanyuma biranikwa. Mu kwanikwa bakuyeho amababi makeya barabimanika, harimo na bimwe bakuyeho amababi yose, ukuntu bimanitse babyita gukaga. Gukaga ni ukuntu bazirika ibigori bakabyanika babimanitse ku kibaho kugira ngo izuba rizajye ribigeraho byumuke.

Hari abantu babiri. Umwe yicaye iruhande rw'ingombe, ingombe imwe baheramo inka ubwatsi. Kandi, iyo ngombe irimo ubwatsi, buke bw'inka. Ari kureba hirya, ndetse hari n'undi umwegereye, ari guhengereza aturukije umutwe, mu kiraro cy'inka.

Abantu benshi batandukanye bazanye amatungo, aya matungo yabo ategereje nko kugurishwa, ari mu mu cyanya kigari cyane ndetse buri wese yegereye itungo ryiwe harimo abagore, abagabo ndetse n'abana.

Inka iri mu nzu. Iyi nka ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru. Muri iyi nzu harimo abantu babiri, umwe ahagaze ayifasheho ku kuboko, undi arasutamye, ari kuyireba ku icebe. Iyi nka bayisize ibintu by'ubururu ku kaguru.

Ni aho inka zicururizwa. Zikigezwa aho zigomba gucururizwa, zishyirwa mu kibuga cy'itaka, kiriho umukingo ukoze mu mabuye, hariho umuntu ari kuzireba akazisuzuma areba ubwoya bwazo, uko zimeze. Ni inka z'amabara menshi atandukanye.

Ni icyanya cyororerwamo inka nyinshi zitandukanye, izi nka zifite amabara atandukanye hari izifite amahembe n'izitayafite, ziri kumwe n'abantu babiri umwe yambaye isarubeti ndetse n'ingofero afite imiti yo gutera inka mu ntoki, undi ari kuzireba.

Umuveterineri ndetse n'umworozi bari guha umuti itungo. Ni agaka gatoya kavutse, bari kugaha umuti bawunyujije mu kanwa. Umwe ya agafasha umunwa, undi ari gusesekamo, ndetse iyi nka iba mu kiraro cyayo.

Aborozi b'inka ni abantu babiri ndetse n'inka mu kiraro. Bakuruye umutwe w'inka bawusohora hanze mu mwenge w'ikiraro, umuntu umwe yambaye isarubeti y'ubururu yafashe ugutwi kw'inka, undi na we hejuru ntiyambaye yambaye inkweto zisanzwe n'ikabutura gusa yafashe ukundi gutwi kw'inka.

Ni inkende ihagaze hejuru mu biti, ni uduti tudakomeye cyane mu by'ukuri dushobora kugwa buri kanya, iyi nkende ifite ibara ry'umukara ahantu hose, gusa ifite akabara gatoya k'umweru ku mazuru, ibiti ihagazeho bisa n'umuhondo, bifite amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Ni inyoni itangaje kuko ifite umunwa ubyibushye cyane amababa yayo asa n'umukara ndetse hari nasa n'umweru. Amaguru yayo afashe ku itabi rinini cyane ndetse iri gufata ku gatabi gatoya kari hejuru yayo.

Abakerarugendo hamwe n'umugide bagiye gusura ahantu nyaburanga none bwije, bari kugenda bafite inkoni bafite, amatoroshi ndetse bari kugenda bamurikisha iruhande rwabo hari ibiti ndetse inyuma yaho hari umwijima mwinshi.

Ni inyoni y'umunwa muremure ifite amababa arimo icyatsi, umutuku, ubururu, umukara ndetse n'umweru. Iyi nyoni ihagaze ku mashami y'ibiti, ibiti bisa neza cyane ku buryo utamenya ko ari ibiti ahubwo ari indabo. Izi ndabo na zo zifite amabara menshi atandukanye.

Inyoni ifite umunwa muremure ndetse n'amabara menshi harimo ubururu bw'ikirere, ubururu bukeye ndetse n'umuhondo n'umukara, iyi nyoni ifashe ku katsi gatoya kandi irimo irareba yarangaye.

Ni inyamaswa yo muri parike. Iyi nyayamaswa ifite amabara meza, umukara ndetse n'umweru, ifite ubwoya buhagaze mu ijosi, rimanuka rikagera ku mugongo aho umugongo utangirira, ifite amatwi maremare, rifite umunwa udasa n'ahandi hantu ku ruhu rwayo.

Ni inyoni y'akanwa gatoya gasa n'umuhondo, ifite isunzu y'umutuku kandi ifite ibara ry'ubururu wagira ngo ni agakote yambaye. Iyi nyoni ifashe ku giti cy'umwumbati kirekire.

Ni agasimba ko mu ishyamba gafite amahembe maremare, kari kwirukanka ibara ryako ni urujuju. Kari kwiruka akaguru kamwe k'imbere kari hejuru ndetse iri kureba inyuma ngo irebe ko nta bintu byayikurikiye. Aho iri hari ibyatsi byinshi bigufi.

Ni inyamaswa zitandukanye zo muri parike, izi nyamaswa zihagaze mu byatsi byahindutse umuhondo bigaragara ko byumye, izi nyamaswa n'iz'ubwoko bubiri, harimo imwe ifite ibara ry'umukara ndetse n'amahembe maremare izindi zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Ikiraro cyo mu kirere. Iki kiraro gikozwemo imigozi imwe izinganyije, inyura ku mpande zombi hirya no hino, ndetse n'imwe ifata kuri icyo kiraro ikazirika hejuru mu kirere. Hari abantu bane bari kukinyuraho, barishimye bari guseka.

Akanyamanswa gafite amabara y'umukara ndetse n'umweru, gafite amazuru, gafite amaso ndetse n'umunwa, mu kanwa hako hari icyatsi, uko bigaragara kari kari kureba umuntu wagafotoye.

Ni akanyoni gatoya kakiri akana katarakura cyane ariko na none katari agahinja, aka kanyoni gafashe ku giti cyatemwe amashami yako, aka kanyoni gafite ibara ry'ikijuju gafite utwiso dutoya utuguru dutoyo ndetse n'utunwa dutoya.

Kugendera ku kiraro cyo mu kirere. Hari ikiraro gikozwe n'insinga ndetse n'imigozi miremire ifata hejuru ndetse n'igifashe ku ruhande n'umuntu umwe ari kugenda akinyuraho. Uyu muntu ari kugenda afata ku mpande zombi.

Ni inyoni ifite umunwa muremure, iyi nyoni ifite amabara icyatsi, umuhondo, umukara, utuguru twayo dufashe ku gati gatoya kadakomeye, aka gati gafite uturabo, hejuru imbere yaho hari utundi turabo dusa n'umutuku.

Inyamaswa muri parike. Hari inyamaswa nyinshi zitandukanye, hari udusumbashyamba, hari n'izindi zifite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, hari izifite amabara y'umweru n'umukara, hari izifite amahembe maremare ndetse n'ibiti.

Inyamaswa twita imbwa irasutamye, gusutama kwayo amaboko ari imbere cyane amaguru yo yayasutamyeho, ifite ibara ry'ikijuju iminwa yayo isa n'umukara kandi isutamye ku itaka hasi.

Ni inyamaswa yo mu gasozi ifite ibara ry'umukara, ifite amahembe yigondoye cyane, irareba nabi nk'iyarakaye, ifite amatwi, ndetse ifite n'urufuro mu kanwa, ihagaze mu byatsi byinshi iri kureba imbere.

Ni igipangu kirimo imbwa, iyi mbwa ifite ibara ry'ikijuju ariko ku munwa wayo hasa n'umukara, irabyagiye hasi ishyize amaboko imbere iri kureba ku ruhande, iryamye mu gacaca ni mu gipangu cyubakishije amatafari ahiye.

Inyamaswa z'ingagi eshatu ziricaye, imwe yicaye hagati, izindi zicaye ziyikikije kandi zose zirikura ku mpande zitandukanye, imwe iri kureba kuru ruhande rwayo irebyeho ndetse n'indi ikareba ku ruhande rwayo yicayeho.

Inyamaswa ebyiri z'ubwoko bumwe, ziri mu ishyamba ririmo ibiti ariko izi nyamaswa nizo zigaragara cyane, izi nyamaswa zigizwe n'amabara abiri ari yo umukara, umweru ndetse ziri kureba ahantu hamwe zaharangariye.

Inkende isa n'umukara ifite ibara ry'umweru mu ijosi ndetse no ku maso irimo irareba inyuma, ifashe ku byatsi birebire kandi ibyo ibyatsi harimo ibyabaye umuhondo ndetse n'ibicisa n'icyatsi hari n'ibyamaze kuma.

Ni inyoni y'amababa atangaje kandi atandukanye, ifite amabara menshi harimo umukara, umweru, ubururu ndetse ifite n'agatwe gatoya cyane, irimo kuguruka nta kintu na kimwe yitayeho.

Inyamaswa ifite ibara ry'umukara ndetse n'utubara tw'umweru ubwoya bwayo ni burebure, iri mu byatsi bijya gusa n'icyatsi ndetse iri kureba hejuru, inyuma yaho hari igiti irimo irareba guseka.

Ni abantu babiri bari kugendera ku kiraro cyo mu kirere, iki kiraro gikozwe mu migozi, imwe ifashe ku mpande zombi hirya no hino, ndetse n'indi ifata hasi igenda izamura hejuru, bari kugenda bafashe ku mpande zo hirya no hino.

Ni icyapa gitanga ikaze muri parike ya Nyungwe cyanditseho welcome to Nyungwe national park, gifashe ku byuma bitambitse n'ibimanuke ndetse hari n'akazu wagira ngo ni ak'abazamu batanga ikaze ku bantu baje gusura iyi parike.

Inyamaswa z'ubwoko bubiri ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye, hari ibiti birebire ndetse n'ibiti bigufi. Muri izi nyamaswa harimo zimwe zifite amahembe maremare zifite n'ibara ry'ikijuju. Naho izitagira amahembe maremare zisa n'umukara ndetse n'umweru.

Inyamaswa nyinshi z'inkende, zagiye mu muhanda hagati. Zawugiyemo hagati ziwicaramo, mbese ku buryo ikinyabiziga ntigishobora kubona aho kinyura gitambuka, zimwe zirebye hepfo, izindi zirebye haraguru, zimwe zireba aho umuhanda uturuka, izindi zireba aho uherera.